Iyi ni RADIANT, ni ubwishingizi bwo kwivuza bigufasha, hamwe n'ubwishingizi bwo kwivuza ku giti cyawe n'abagize umuryango, icyizere cy'ejo hazaza ibyishimo by'umuryango, iyi RADIANT wishingiramo baguhaye nimero zo guhamagara ukeneye gukoresha.

Tabu Safu Inshuwarensi ni ubwishingizi ushinganishamo ikinkinyabiziga cyawe ku buryo bagufasha iyo kigize ikibazo, gihuye n'impanuka se cyangwa ibindi bibazo, ushinganishamo n'inzu yawe mbese ushinganishamo ikintu cyose ushaka ku buryo bazakugoboka mu gihe uzaba uhuye n'ibibazo.

Radiant GURA "TURI KUMWE" ni ubwishingizi buhendutse bw'ubuzima, bakanda akanyenyeri gatanu, gatatu rimwe akego, ukishinganisha muri ubu bwishingizi bwa Radiant yacu. Ubwishingizi buciriritse; baguha na nimero uhamagaraho n'urubuga rwabo kugira ubashe kumenya byinshi kuri Radiant.

Muri solasi bagiramo n'ubwishingizi bwo gushyingura, uba warishinganishijemo hanyuma wagira ikibazo bakakugoboka. Ni hahandi ushyiramo ikinyabiziga, ugashyiramo inzu yawe, nawe ubwawe ukishinganisha, ubona ko ari ibintu biba ari byiza ku buryo bagufasha mu kibazo ugize.

Mituweli, ubwisungane mu kwivuza. Bugufasha mu gihe warwaye, ukajya kwivuza ku giciro gitoya, ni ubwishingizi ujyana ku kigo nderabuzima.

Muri mowa inshuwarensi nabo bari gushimira abakiriya babo, abantu babanye nabo banabifuriza icyumweru cyiza, ni ubutumwa bwagenewe abakoresha muri mowa inshuwarensi, mu bwishingizi muri mowa babashimira ku icyizere mwabagiriye.

Ubwishingizi bw'ubuzima, aho wishyura amafaranga ya buri kwezi, hanyuma warwara bakakwishyurira mu bwishingizi bwose uri bukenere, imiti uri ubukene, ugakoresha ubu bwishingizi bakuvura, ku buryo n'iyo udafite amafaranga bakugoboka.

Nifuje kukwereka radiyanti ni egenti yacu, ibihe nk'ibi ntibyabaho hatabayeho icyizere, urukundo, ubwitange no kuzuzanya, hamwe na turi kumwe mu bwishingizi bw'ubuzima, ibyishimo bisesuye ku buzima bwawe, ahazaza hawe ni ahawe kanda akanyenyeri gatanu gatatu rimwe urwego.

Hano hari radiyanti. Radiyanti ni ubwishingizi wandikishamo ikinyabiziga cyawe nk'imodoka, moto. Wandikishamo ubwishingizi bwawe. Mu rugendo rwawe baguha ubwishingizi. Ukanda akanyenyeri gatatu, akanyenyeri gatanu, gatatu, rimwe akego.

Ikirango cyerekana ubwishingizi, bugufasha mu kwishingiza ibintu byawe, yaba ibikoresho, yaba inyubako, ibyo bikoresho harimo ikinyabiziga cyawe, urabona ko baguha ubufasha bwiza kandi bwizewe, bari kwamamaza ubwo bwishingizi.

Ni icyapa kiri kwerekana ubwishingizi wakwishingimo n'ikinyabiziga cyawe, ni ubwishingizi bugufasha mu gihe ikinyabiziga cyawe cyangwa ikindi gikoresho cyawe kigize ikibazo, bahita bakugoboka muri icyo gihe cyagize ikibazo.

Hano aba bari kutwereka amakuru mu mashini, ni nk'amakuru yo muri banke, batwereka amafaranga ukuntu bagiye bayasohora n'ukuntu bayinjizaga.

Iguriro bacuruza ibikoresho bikozwe mu masaro, ubona ko ari udukomo two ku maboko, ari utwo mu ijosi, twose watuhasanga, ku mafaranga baba bashyizeho atagoye buri wese,,,

Inyubako iri ahantu hitaruye, inyubako icuruza, ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, hari aho bacuruza, ikintu cyose wifuza, hari imiryango myinshi kuburyo ushobora kubona icyo ushaka cyose.

Hano ari kutwereka iduka ricuruza imyenda, imyenda iramanitse irimo amakote n'imipira by'amaboko maremare...

Iguriro bakoramo ibintu bya kinyarwanda hari haba hari ibintu by'ibibohano baba baboshye, hari utuntu tw'ubukorikori twinshi uragenda ugahaha icyo ushaka cyose baba babishyize aho u batora ibyo ushaka.

Iguriro ricuruzwamo ibintu by'ubunyabugeni, ubona ko haba hari ibikoresho byiza, bikorerwa iwacu mu Rwanda ndetse n'ahandi; gusa urabona ko biba bifite umwihariko.

Iguriro ry'imyenda harimo imyenda iba iri ku murongo hari idoze, hari n'indi itari mu bi bitenge. Iri ahantu hatondetse ku murongo ku buryo iri mu isuku, n'uwayibona yamukururira kuyigura.

Iguriro ribamo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo amavuta yo kwisiga, harimo imibavu yo kwitera, hari ibintu byinshi bitandukanye ku buryo ku mafaranga yawe ugenda ukishyura maze bakaguha igikoresho wifuza.

Iri ni iduka ricuruza ibintu byo muri karitsiye ibyo kurya, ibyo guteka, ibirungo byo gushyira mu biryo, ubona ko umucuruzi yakiriye uwaguze aje amwakirana n'urugwiro uburyo bwo kumuha serivisi nziza.

Iguriro cyangwa se isoko, ririmo umucuruzi ukoresha na serivisi ya IBM, aguha inyemezabwishyu, inyuma ye hari imboga, hari inyanya nyinshi, ubona ko ibyo waje kugura byose utabibura muri iri guriro.

Hano hari imodoka igaragara ko ari imodoka igurishwa muri Kigali, handitseho Kigali Cars Market, ubwo ni imodoka iri mu modoka zigurishwa muri Kigali.

Imodoka nini ifite amarangi meza, ifite ibirahure bishyashya ku buryo ku mafaranga yawe wayigura, nawe ukajya uyitwaramo umuryango wawe cyangwa se ukayikoresha ibindi ni nini.

Imodoka yo muri Nissan abantu bayihagaze imbere, ni nziza yo mu bwoko bwa Nissan. Ku mafaranga yawe ukaba wayigura nawe ukayigendamo, irasa neza, ifite amarangi meza, kandi irizewe.

Imodoka nziza ifite amapine y'umukara, isize amabara y'umutuku, urabona ko igaragara neza ni shyashya, ku buryo wayigura nawe ukayijyanira ukazajya uyigendamo, iragaragara neza.

Hano hari ishusho iri kutwereka abantu babiri bahagaze inyuma ye hari imodoka y'Akagera moto imodoka nini urabonaka ari imodoka iri mu bwoko bwa hoho.

Iyi shusho hano iri kutwereka hari imodoka zisa zimeze nk'aho ari nshyashya, ziri ahantu bacururiza amamodoka.

Akagera Motozi, bacuruza imodoka ku buryo ku giciro kiza baguha imodoka ijyanye n'iiyo ushaka, urabona ko haparitse imodoka nyinshi zo mu bwoko butandukanye, z'amabara atandukanye, uragenda ukishyura iyo wishimiye bakaguha iyo modoka.

Ikirango cyerekana aho imodoka zo mu bwoko bwa Yundayi wazibariza cyangwa se wazibonera ushaka kugura, ushaka gukodesha ibyo aribyo byose kiri kukwereka aho ubwo bwoko bw'izo modoka bubarizwa.

Abantu bahagaze imbere y'imodoka yo mu Kagera motozi, iyo modoka ku mafaranga yawe wayigura, imodoka nziza yo mu bwoko bwa Toyota, inyuma iba ifite umwanya batwaramo ibintu, imbere hari aho abantu bicara, ab'imbere n'ab'inyuma. Urabona ko ari abantu bayihagaze imbere.

Hano bari kutwereka igiceri n'icya ma nyarwanda cyakozwe mu gihumbi kimwe magana icyenda na mirongo irindwi na karindwi(1977) akiriho ishaka.

Inote y'amafaranga igihumbi cy'amanyarwanda, urabona ko hariho imisozi bigaragara ko ari inoti yo mu gihugu cy'imisozi igihumbi, bigaragara ko iyi note yakozwe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani.

Amafaranga menshi amwe bari kugenda bashyira mu matsinda yayo andi bari kubara bahita bashyira mu matsinda kugira ngo bamenye umubare w'ayo babaze, ni amafaranga y'inote menshi ashyira ari ahantu hamwe, mu bwoko bumwe ubona ko hari umuntu uri kuyabara.

Ayo ni amafaranga inote z'igihumbi nyinshi, umuntu azifite mu ntoki, ari kuzerekana ubona ko ari inote nyinshi, ari kubara yerekana uko izo note zimeze.

Iyi shusho iri kutwereka umuntu uri kubara amafaranga agahita ayashyira ahantu hamwe, bitewe n'umubare ashaka, akayashyira ahantu hamwe.

Hano ni banki yitwa GTBanki. Ohereza amafaranga kuri konti zo muri GTBanki hose ukoresheje terefoni yawe. Aha na ho ni izo serivisi z'amafaranga kubitsa kubikuza.

Ni imashini yifashishwa no mu kubara amafaranga, hateretseho inote ziteretseho n'ibiceri biteretseho, iyi mashini irabafasha kugira ngo boroshye akazi, ibafasha mu gihe bari kubara amafaranga.

Amafaranga y'inote, ni umuntu uyafite mu ntoki, urabona ko ari kuyabara cyangwa se ari kuyerekana, ni inote z'igihumbi, ziri kugaragara, urabona ko imbere ye hari imashini ibara amafaranga y'inote.

Iguriro ni ahantu wasanga amata meza, hari amata y'ikivuguto, hari amata y'inshyushyu, byose ni mu Nyange. Urabona ko hari abantu babyishimiye, hari umuntu waje kugura amata bari kumupimira ngo bamusukire mu kintu cyabugenewe ayatwaramo.

Iguriro ricuruzwamo amata, ni amata meza, haba hari amata aryoshye, ikivuguto, inshyushyu, aba ari mu bikoresho bisukuye na yo aba asukuye, ku buryo uyanywa ukumva afite umwimerere kuko biba byemewe.

Ahantu wasanga ibintu byose by'inyange, hari amazi, hari amata, hari ibyo kunywa by'ubwoko bwinshi, uhakura amata meza agifite umwimerere ubona ko ari ahantu haba hasukuye.

Ushobora kuhasanga amata meza, ikivuguto, inshyushyu bisukuye, biri ahantu hatekanye, wahasanga n'amazi amwe ya jibu cyangwa ay'inyange bitewe nayo ushaka.

Ikirango cyerekana ahantu bacuruza amata, barakwereka ibicuruzwa byose biba bihari, haba hari amaji y'Inyange, amata y'Inyange, amazi y'Inyange, mbese n'ibintu byose by'inyange bicuruzwa aho hantu iki kirango kiri kutwereka.

Iguriro ribamo ibintu byose habamo amata, hari ibindi bintu byo kunywa bikonje, habamo ibyo kurya bikozwe mu ifarine, hano hari umuntu waje muri iryo guriro, aricaye agiye kunywa icyayi urabona ko yabyishimiye yaje no kuruhuka.

Mu iguriro mu iduka ririmo ibintu byo kunywa imitobe, amazi, harimo n'ibintu byo kurya, hari amata, harimo abantu baje kugura, n'abacuruzi urabona ko ari ahantu hanini waza ugafatira amahumbezi.

Mu iguriro aho ushobora gusanga amata meza ari ikivugoto, ari inshyushyu ubona ko abantu baba bari kuyanywa bizihiwe bumva baryohewe, abafite isuku abikwa ahantu hasukuye ndetse n'abayatanga ubona ko bafite isuku ubwabo.

Ahantu wabariza amata yose waba ushaka, ari ikivubuto, ari inshyushyu, haba hari amata y'ubwoko bwose ku buryo baguha amata meza afite umwimerere, wahanyarukira bakagufa...

Ubutumwa bugufi bwerekana ko amafaranga wari wohereje butakunze, ngo byahise bipfa ntabwo byakunze ko ayo mafaranga uyohereza; bisaba ko wongera ugasubiramo, ubutumwa buturutse kuri emutiyeni.

Paypal ni ikarita ukoresha mu kwishyura ibyo uguze byose, ku buryo wishyura bitakugoye, utiriwe ngo ubikuza, bigufasha kwishyura mu buryo bworoshye kandi bwiza bwizewe.

Iyi shusho iri kutwereka uburyo wakishyura kuri Airtel Money. Kuri Airtel, kwishyura byoroshye wishyuriye kuri telefone yawe.

Spin supa seva ni igufashe guteganyiriza abana bawe, amafaranga make watangiza none yakubaka ejo hazaza h'abana bawe, utangira ushyiramo amafaranga, ubushobozi ufite maze bakazakugoboka.

COPEDU ikorana na Wesitani yuniyoni, iyi COPEDU yagufasha mu buryo bwo kwishyura ukoresheje ikoranabuhanga, icyo waba uri kwishyura cyose yaguha serivisi zose waba ukeneye.

Aya ni amakuru ni y'umukiriya wo muri banki, akwereka ibyo bagiye gukora, aya ni amakuru yo mu kiriya witwa Janete Nduwamariya, bari kumwereka ibyo yakoze igihe yabikuje igihe yabikije, bamwereka buri kimwe yagiye akora igihe cyacyo.

Umuntu ufite amafaranga mu ntoki, amafaranga yo mu bwoko bw'inote, ari kuyabara yandika. ari kurerebaba uko angana. Hirya ye yari akamashini kamufasha kuyateranya neza.

Amafaranga y'inoti, ni ay'abaturanyi ntabwo ari ayo mu gihugu cy'u Rwanda, harimo amafaranga ijana, magana atanu, igihumbi ni ayo mu bihugu bitandukanye, ateretse neza ahantu heza ku buryo agaragara.

Amafaranga yo mu bwoko bw'inoti y'abaturanyi umuntu ayafite mu ntoki ni amadorari y'amanyamerika, ni amadorari magana abiri, inote imwe y'ijana n'iyindi y'ijana byose bikaba magana abiri.

Ikirango cyerekana ivunjisha aho rihagaze, iyo ugiye kuvunjisha amafaranga y'abanyamahanga, bakwereka igiciro kugira ngo uvunjishe uzi n'igiciro aho kigeze bitakugoye warabimenye, ari ibintu usanzwe uzi udahenzwe.

Amafaranga yo mu bwoko butandukanye hari inote hari ibiceri ntabwo izo noti ntabwo ari inoti zingana ziri mu bwoko butandukanye ateretse ahantu urabona ko ari iby'abanyamahanga ntabwo ari amafaranga y'amanyarwanda abona ko ataretse ahantu runaka ku buryo umuntu wese yayabona.

Izi ni inote z'amayero ziratandukanye, hari inote: y'atanu amayero atanu, amayero icumi, amayero makumyabiri, amayero mirongo itanu, amayero ijana n'amayero magana abiri.

Inoti eshatu z'icumi zose zirasa ni ubwoko bumwe, urabona ko ari inote nshyashya ziteretse ahantu hamwe, niho ziteretse ku buryo wazibara.

Imashini cyangwa se icyuma cyifashishwa mu kubara amafaranga y'inote, hano harimo amafaranga y'amadolari y'Amerika, iri kuyabara bayashyizemo iri kubara kugira ngo ibereke umubare w'ayo mafaranga uko angana.

Hano hari inote zerekana amafaranga yo muri Tanzaniya, hari inote irikutwereka magana tanu yo muri Tanzaniya, hari imbere n'inyuma bakatwereka inote y'igihumbi, imbere n'inyuma y'amatanzaniya bakatwereka inote y'ibihumbi bibiri imbere n'inyuma y'amatanzaniya.

Amafaranga y'inote, ni inote zimwe ni iz'igihumbi, izindi ni iz'ijana, azifite mu ntoki ku buryo wazibara zigaragara neza, ntabwo ari izo mu gihugu cy'u Rwanda ni izo mu bindi bihugu by'ibituranyi urabona ko zitandukanye.

Hano hari ishusho y'amafaranga y'amanyekongo ibihumbi bitanu. hariho inyamasa ziriya note.

Inote nyinshi z'amafaranga, inote za magana atanu, inote z'ibumbi bibiri ni zo note ziri hano ni nyinshi, urabona ko zigiye zifite itsinda ryazo bitewe n'izo arizo n'izo bihuje.

Nishimiye kutwereka ukuntu amafaranga irigiye kuvunjisha iyofite amafaranga y'abanyamahanga ukeneye andi ibiciro ukuntu biba bimeze urugero bari kutwereka amadorari nimba amadolari mirongo itatu numunani ubwo baraguha amadorari aragurishwa mirongo itatu nicyenda n'ce mirongo irindwi.

Aha naho ni ahantu hari biro cyangwa se inyubako ifasha kuvunjisha amafaranga, mu gihe ufite amafaranga atari ayaho ngaho kandi ukeneye kubugira ibyo ugura ukayakoresha.

Inzu yo kuvunjishamo, aho ujyana amafaranga y'abanyamahanga bakakuvunjira, batanga serivisi zose za banki, bashobora kukubikira kukubikurira byose babigufasha.

Iyi shusho iri kutwereka, inyubako ifunguye umuryango, iyi nyubako ni ahantu, ni biro yitwa ikaze, ni aho bakorera ivungisha, ushobora kugenda ukavungisha amafaranga, ari mu bwoko, ukayavunjisha mu bwoko bundi.

Iyi nyubako ni inyubako bari kutwereka, ni inyubako ya Imana, God izi ebo, Imana iba ihari foregisi biro, ni ibiro biri ahantu ku muhanda bajya kuvunjirizamo, wabitsamo, wwabikurizamo.

Bari kutwereka biro de shanje, ni inyubako zihindura, zikuvunjira amafaranga mu gihe ufite amafaranga atari ayo muri icyo gihugu, ari ayo mu kindi gihugu uragenda ukabavungirara bakaguha ayo ukeneye, muri icyo gihugu urimo.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa byo kuvunjisha amafaranga, ujyana amafaranga y'amanyamahanga cyangwa se yo mu bindi bihugu, bakakuvunjira bakaguha ayo ushaka, haba hari abantu benshi, abatanga iyo serivisi n'ababa baje gusaba iyo serivisi.

Inyubako ifite ikirango hejuru cyerekana ibyo bakora. Baba bashyizeho na nomero ku buryo ubakeneye wabahamagara iyo nyubako batanga serivisi zijyanye no kuvunja amafaranga y'abanyamahanga ku buryo bakuvunjira maze bakaguha ayo wifuza.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa byo kuvunja amafaranga y'amanyamahanga, ku buryo uzana amafaranga bakakuvunjira ku giciro cyiza bitewe n'igiciro kiriho muri icyo gihe; hari gusohokamo umuntu bigaragara ko avuye gusaba ubwo bufasha.

Ikirango cyerekanaho ivunjishwa, aho uvunjisha amafaranga y'amanyamahanga, bari kukwereka aho ibiciro bigeze nk'amadorari arangahe, igiciro aba agezeho byose biba biri kuri uru rutonde, ukamenya ayo uvunjisha.

Western union ibi ni ibiro nabyo biri hano byo kuvunjisha amafaranga bagufasha kukuvunjira amafaranga yose ubujyanye cyangwa ugiye kubikuza amafaranga y'abanyamahanga cyangwa ugiye kuyohereza.

Ahantu mu nyubako heza hateretse imitako, hari intebe, baguha serivisi yo kukuvunjira amafaranga uba ufite y'amabanyamahanga ushaka ko bayaguha mu bwoko ushaka.

Ibikoresho byo mu nzu, ni intebe n'imeza byo mu ruriro, aho amafaranga yawe wagenda ukayishyura, bigaragara neza, nawe ukazajya ubikoresha iwawe, hagasa neza.

Intebe ikozwe mu bwoko bw'ibiti, ikozwe mu ishusho yayo, urabona ko yihariye, hari ahantu iteretse ku buryo ku mafaranga yawe wayigura nawe iwawe ukazajya uyicaraho, urabona ko ari nziza.

Ishusho irikutwereka ahantu bakora ibintu by'imyuga, ahantu bakora intebe, kandagirukarabe, utubati, ameza, ni inyubako iri ahantu hagufasha kuhakorera ibintu byose.

Hano hari ishusho iri kutwereka ikintu gikozwe mu mbaho, bigaragara ko ari nk'ahantu, nk'imeza ushobora guterekaho ikintu gikozwe mubi bibaho.

Hano turi kubona intebe nimeza hagati zimeze nkaho ziteretse ahantu waganirira.

Hari ibikoresho byo mu nzu intebe yamamezaza byo kugurisha utubati two gushyiramo ibintu byose ya utw'inkweto urabona ko babikora neza uragenda ukabigura ukavana ku giciro cyiza hanyuma bakabigura.

Ibikoresho byo mu nzu aho ku mafaranga yawe wabibona, harimo: utubati, intebe, ameza, byose wabihasanga ku mafaranga make, bakabiguha rwose; biragaragara neza, bikoze mu bibaho cyangwa se mu biti, ubona ko bisa neza.

Ahantu bakorera ibikoresho bijyanye n'imbaho, baranazicuruza, uragenda ku mafaranga yawe ukazigura, ukazijyana, ukazikoresha mu bikorwa byawe ibyo aribyo byose, haba hari abantu bashinzwe kuzipakira, abantu bashinzwe kuzigurisha, urabona ko biba biri ku murongo.

Ibikoresho byo mu nzu n'intebe zirimo imifariso zikozwe mu biti, ku buryo ku mafaranga yawe wagenda ukazigura ukazishyira mu nzu iwawe, ni nziza zigaragara neza.

Iyi ni ishusho iri kutwereka mu ruganiriro rw'abantu, hari tereviziyo ari yo yerekana amashusho, iteretse ahantu heza, hari akabati hepfo gateretseho ibindi bikoresho, gateretseho imitako.

Mu gice cy'ahantu abantu baba bagiye kuruhukira mu myidagaduro, koga widagadura ndetse biri no muri siporo koga gutya, urabona ko haba hasa neza hafite isuku aya mazi aba yakorewe isuku, hari n'uruhande uruhukiraho ruba rutwikiriye hariho ibintu bihatwikiriye hari intebe wicaraho urabona ko haba hizewe.

Ahantu heza bashobora gusohokera, hari amahumbezi, hari ubusitani bwiza, hari ahantu n'umwanya wakicaramo, uri kumwe n'abantu benshi mukaganira, ariko ari ahantu heza hafite inyubako nziza.

Hano turi kubona inyubako ndende, imbere y'inyubako hari ahantu bogera, ahantu bogera abantu nyine bagiye mu buryo bwo kwishimisha, iyo twita pisine mu rurimi rw'amahanga.

Mu nyubako ahantu heza hitaruye, harimo ni mu ruganiriro, harimo intebe zitandukanye, hari izisa shokora, izisa umukara, hari n'amezaza afite ubwo harimo ubwoko bwiza ubona ko kameze neza.

Inyubako nini imbere yayo hari ubusitani bwiza burimo ibyatsi biteme indabo, inyubako nayo irimo intebe nziza zikoze mu bibaho ubona ko iyo nyubako isize amarangi asa oranje, inyubako nziza.

Hano hari ishusho yo mu muhanda bigaragara ko ari ku masaha ya nimugoroba, hari imodoka ziri guturuka hepfo no ruguru, hari n'inyubako iri kwakamo amatara.

Ishusho iri kutwereka, amazi cyangwa se cyo twakwita nka pisine harimo umuntu uri koga, ni ahantu ugenda ukoga ujya gufatirayo...

Ahantu heza mu busitani hateretse ameza, intebe byo kuriraho, hari amasahani, hari ibyo kurya, hari ibyo kunywa, urabona ko ari muri hoteri ifite ubusitani bwiza ku buryo wahatemberera na bawe mukicara mukaganira nta kibabangamiye, hari amahumbezi, hari ibintu byiza.

Inzu nini ndende igerekeranyije yitwa midos ni hotel cyangwa se inzu yakira abashaka amacumbi bakayakodesha bakahamaramo iminsi yitwa midos ni inyubako nziza isize amarangi meza urabona ko yakururira n'abantu kuhajya.

Inyubako nziza ugenda ukaruhukiramo ushaka kuruhuka, ushaka gufata amahumbezi, ushaka gutekereza neza, uragenda ukahajya ukaruhuka hanze yaho hari ahantu widagadurira hari amazi ugenda ukoga.

Icyumba harimo uburiri bwiza, harimo intebe wakicaramo ushaka kuruhuka. Ni icyumba cyiza kiri mu nyubako nziza, harashashe wajya mu idirishya ukareba hanze, urabona ko kiei ahantu heza. Harimo amatara yagufasha mu kubona urumuri.

Mu nyubako nini aho ugenda ukaruhukira. Hari icyanya cy'uruganiriro, harimo intebe nziza, ameza, muricara ukumva uratekanye. Haba harinzwe, hakoreye amasuku ku buryo ugenda ugafata umwanya wawe ukajyayo ukajya kuruhukirayo mu gihe ushaka kuruhuka.

Inyubako ndende ifite amacumbi wagenda ugacumekamo ni hoteri yitwa fopowensi ku buryo ushaka icumbi ryo kuraramo uragenda ukishyura amafaranga asabwa ukaharara washaka ukahamara igihe cyose ushaka.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa bijyanye no kuguriza no kuguza, gusevinga ndetse n'ibindi bitandukanye bikorerwa mu mabanki n'ahandi hakora ibikorwa bijyanye n'ibya banki.

Inzu mberabyombi, iteraniyemo abayobozi bo mu nzego zitandukanye ariko bikaba bigaragara ko bari mu bihe by'icyorezo kubera ko bose bambaye idupfukamunwa two kwirinda. Imbere yabo hakaba hari ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo mudasobwa ndetse na mikorofone zifata amajwi, ndetse n'imiti yo kwirinda.

Sonarwa, ubwishingizi ushingizamo imodoka yawe, ikinyabiziga cyawe kindi, cyangwa se inzu yawe, ku buryogize ikibazo bahita bakugoboka shyiramo amafaranga mu gihe bazakugoboka mu minsi iri imbere, cyangwa se kugeza wagize ikibazo.

Muwa inshuwarensi, ni ubwishingizi ushyiramo ikinyabiziga cyawe, mu gihe uhuye n'impanuka itunguranye bagahita bagufasha gukemura icyo kibazo uhuye nacyo, hegeranye n'inyubako ndende igerekeranye, isize amabara y'umweru n'ubururu, hasi hari ibiti, inyubako nziza.

Imodoka iri mu bwoko bwa toyota y'umweru iparitse inyuma y'izindi, hari n'izindi ziri imbere nazo zigiye ziparikwa mu myanya yazo aho zabugenewe guparikwa, harimo iy'umuhondo izindi zisa umweru.

Hano hari ishusho yerekana, ni ishusho y'ahantu, ni nka banki abantu babitse amafaranga cyangwa bakayabikuza, harimo abantu babafasha muri izo serivise hari n'abaje gusaba.

Muwa, ubwishingizi bwa muwa, hari icyapa cyayo, hirya hari n'icyapa cya Equity bank nayo ni bank wabitsamo, ukazabikuza igihe ushakiye. Muwa n'ubwishingizi ushyiramo ukazajya kugoboka.

NCBA ni aho baguha inguzanyo maze ukazishyura. Aha ngaha kugera ku bihumbi miliyoni mirongo itandatu z'amanyarwanda ku buryo bazikuguriza ukazaba wishyura.

Hano bari kutwereka BSF cyangwa se egisipo ya bibiri na cumi n'umunani yariyingi mu ideni ry'abanyeshuri barikibazazwa ukuntuntu waryishyura, uwo bayiha agomba gusura standi cyangwa se aho bakorera.

Tekana Loan ni ubwishingizi bwuzuye bw'imodoka yawe. Aho ushyiramo imodoka yawe muri ubu bwishingizi, maze yazagira nk'ikibazo uhuye na cyo kigutunguye, kije muri cya gihe udafite amafaranga, ubu bwishingizi buhita bukugoboka bukagufasha muri icyo gihombo uhuye na cyo.

Enisibieyi ubu nawe wagira iwawe. Baguha inguzanyo hanyuma ugashaka icyo ukoresha ayo mafaranga ukazishyura bitewe n'igihe baguhaye, ugashyiraho n'inyungu bitewe n'uko mwabivuganye. Urabona ko iki kigo gikora neza kuko baguha amafaranga wasabye hanyuma ukazayishyura.

Hano hari Hirwa koperative cyangwa se ikimina, bafitanye umubano na banki y'Afurika, iri mu ntara y'Uburasirazuba.

CIS bank iri kubabwira ko yateganyije amahugurwa y'ibijyanye n'imisoro an ni ukuvuga ku bijyanye n'imisoro bashyiho n'amatariki y'ayo mahugurwa washyizezweho ntibikenerwa kugira ngo uzaze muri ayo mahugurwa.

Impano ya ekobanke hano bagatanga n'inguzanyo, hari n'impano bari gutanga uburyo bakwereka uburyo bwiza bwo guhaha udahenzwe.

N'isoko cyangwa se iduka ricururizwamo imyenda y'ubwoko bwose, iy'abana. abantu bakuru, ibikapu imitako, n'ibintu byinshicururizwamo, harimo abantu babicuruza ndetse n'abaguzi barinjira, bakaza kugura ibyo bashaka.

iIyi shusho iri kutwereka mu muhanda harimo ibinyabiziga bitandukanye abantu bagenda ruguru y'umuhanda hari inyubako isize amabara y'umutuku, iroze ni inyubako bigaragara ko ikorerwa mu bucuruzi.

Iki ni icyumba k'inama y'imwe muri kampani runaka, aho abayobozi bashobora guhurira mu kwiga ku ngingo zitandukanye no gukemura ibibazo byagaragaye.

Inyubako nini igerekeranye ni nyubako ikorerwamo ibintu by'ubucuruzi ushobora kuvuga nk'isoko iguriro hari abantu baba bari kujyamo bagiye abandi basohokamo harimo abandi bacuruza ubona ko hari haba hari abantu benshi.

Imodoka iparitse ahantu habugenewe irimo umuma niwe wari uyitwaye ifite amabara asa nk'ivu imbere yayo hari inyubako ninibonako ikorerwamo ibintu by'ubucuruzi baradoda harimo n'ibindi biri imbere.

Isoko ryo guhahiramo, umuntu yaje guhaha, ibijyanye n'imboga, gusa iryo soko ririmo ibintu byinshi ib'yubugeni, ibicuruzwa byo kurya, urabona ko harimo ibintu byinshi, haba harimo abaguzi n'abagurisha, abantu b'ubwoko bwose.

Ishusho irikwerekana, nanone ahantu barigucuruzamo imineke n'avoka, bakatwereka umuntu uje kugura, hari abacuruzi bicaye, hari n'umuguzi uje ufite imbago.

Hari isoko ririmo imbuto hari imineke, imyembe, ibinyomoro, amatunda nibyo bakunze kwita wotameroni mururimi rwamahanga , hari amaronji, hari imineke, amaronji niyomacunga, hari nabantu babicuruza, hari abari gucuruza, hari n'abicaye bari gucuruza izo mbuto.

Ni ahantu imbere y'inyubako babona ko ari nk'isoko, abantu benshi bahagaze hanze bamwe bari kwinjira abandi basohoka abandi bagenda baza, ni abantu benshi haparitse imodoka hanyura n'ibinyabiziga hepfo.

Isoko ririmo ibiribwa harimo ibiribwa by'imboga ni byo turi kubona hano, hari ibitunguru, hari inyanya, hari urusenda, hari amashu, harimo ibintu byose by'ubwoko bwose by'imboga n'amakaroti, murabona ko harimo abantu benshi harimo abagura, abacuruzi bishimiye kuza gucuruza ibicuruzwa byabo babyishimiye bari kubona abakiriya.

Isoko ricururizwamo ibintu by'ubwoko bwose; imbuto, imboga, ifu, ibishyimbo, mbese wahabona ikintu cyo kuribwa cyose ushaka. Wahagera bakakwakira, ari abacuruzi benshi, abaguzi nabo baragenda bakagura.

Rino shusho riri kutwereka umuntu uri gucuruza ibiraha, umuntu uri gucuruza amasambusa, habaho ubwoko bwinshi bw'amasambusa. Hari n'abaguzi bari kugura amasambusa ari mu ndobo, ni abantu bahari bari kugura.

Isoko rya Nyabugogo hari abashinzwe umutekano, abantu ni benshi baje guhaha, abandi baza kugura, abacuruza, bose urabona ko baba bitabiye.

Iguriro ririmo imyenda, imyenda y'ubwoko bwose iy'abato, iy’abakuru, urabona ko ari imyenda myiza iba iri mu isuku, ipanze neza, iba iri ahabugenewe ku buryo buri muntu yakingurira bitewe n'uwo ashimye.

Isoko rinini ryabugenewe ko abantu bahahiramo, abantu baje, bitabiriye, ni benshi, urujya n'uruza, baruzuye, baje guhaha buri wese areba icyo ashaka, ubundi akagihaha, haba harimo ibintu by'ubwoko bwose byinshi.

Bari kutwereka ku cyicaro cya emutiyeni yifashishwa mu kugira ngo abantu bahanahana amakuru hano rero bari kutwereka umuntu wagiye gusaba serivisi za emutiyeni.

Abantu bari kukazu mu inzu igurisha amayinite, abayobozi noneho bagiye nko kubikuza cyangwa kubitsa cyangwa kugura ikarita yo guha....

Ahantu batanga serivise zijyanye na Emutiyeni mobayiro mani, amafaranga yo kuri konti yawe ku buryo ushobora kuyabitsaho cyangwa ukayabikuza cyangwa ukishyura ukoresheje Emutiyeni cyangwa ukabitsa, urabona ko haba hari umuntu ushinzwe kugufasha bitewe na serivisi wifuza.

Abaturage abeshi bari gusaba serivisi aha hantu urabona ko bose bahari bashaka ikintu kimwe, bakoraniye hamwe harimo abatandukanye harimo abagore, harimo abagabo ndetse ahantu barri urabona ko ari mu busitani bategereje guhahabwa serivisi.

Abakozi bo muri MTN, bafite imodoka hano nini, baba bambaye imipira iriho ikirango cya MTN, byerekana ko bakorera, batange iyi serivisi, barimo abantu baba bashaka kubitsa, kubigoza, begera bano bantu maze bakabibafashamo.

Abantu bagufasha ku bijyanye na momopeyi, ni ukugura ukanishyura ukoresheje momopeyi. Igiciro baguca aba ari ubuntu wowe ukishyura ukoresheje iyi emutiyene mobiyilu mane, ukabasha kwishyura icyo ushaka. Aricyo waguze ari ukwishyura amayinite byose.

Inzu ikorerwamo ibikorwa bya MTN mobayiro mani, bagufasha kuri serivise ijyanye n'iyi MTN. Bashobora kukubikiriza, kukubikuriza, kugura amayinite yo guhamagara, yo gukoresha kuri enterinete se cyangwa murandasi, bitewe n'icyo ushaka.

Aha ni muri Emutiyene mobayiro mani haba hari umuntu ushinzwe gutanga serivisi za momo peyi. Bagufasha kwishyura, bagufasha kubitsa, kubikuza, kugura ukoresheje mobayiro mani. Ni ibintu biba byoroshye kuko bagufasha, baguha serivisi nziza ukahava unyuzwe.

Hano bari kutwereka akazu batangira serivise, cyangwa se bagufashe ukeneye gukora ibintu byo ku MTN hari kubitsa amafaranga kubibuza, kugura ikarita yo guhamagara ndetse n'ibindi.

Guhaha ukoreshejweje ikoranabuhanga, ukoresha telefone yawe ugatumiza ikintu icy'aricyo cyose ukeneye yaba ibikoresho, yaba ibiryo, urahaha ukishyura ubundi bakabikugezaho ku giciro cyiza. Ushobora gukoreshabuga nkoranyambaga zawe, ushobora gukoresha izindi sisitemu zabugenewe, bityo ukabona ikintu ushaka.

Amamoto aba ariho ibikoresho bashyiramo mu gihe ubatumira ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ubatuma ibyo ushaka bakabikuzanira bakabikuzanira iwawe ku giciro cyiza, baba bafite aho moto zihuta zibizana ndetse n'aho babitwara.

Ushobora guhaha ukoresheje ikoranabuhanga muri Ali ekisipuresi, utumiza ikintu cyose ushaka, ukishyura, ubundi bakakikoherereza kikakugeraho neza mu buryo bwizewe kandi bwihuse utavuye iwawe.

Iyi shusho iri kutwereka umuntu utwaye moto bikwereka ko ari kuri vuba, ni abantu bakuzanira ibyo batumije uratumiza bakabikuzanira.

Ibi bigufasha guhaha ni sisiteme wahahiraho utavuye iwawe, utagiye kwiguriro ukabikorera kuri telefoni yawe; ubishatse ukoresheje imbuga nkoranyambaga, ugahaha ugatumizaho ibintu byawe bakabikuzanira ubundi ukishyura.

Hano hari inyubako ku bihumbi magana atandatu buri kwezi wabona, irimo ibyumba bibiri, nta bikoresho birimo, iri i Kigali, Remera. Ni nziza irasukuye, ifite imyanya minini washyiramo ibikoresho byawe.

Ni inyubako ikorotiriye neza nayo ni nziza, iri ku muhanda Kabeza Kigali city, urabona ko ari inyubako nziza rwose igaragara neza.

Icyumba kirimo igitanda harihoho n'uburiri kirashashe neza haro nimisego, ku madirishya yaho hariho amarido cyangwa se ibihisha kuburyo umuntu uri hanze atabina mo imbere.

Hano ndikubona ishusho y'abantu bameze, bari mu nzu, ni umuntu w'umuzungu n'undi w'umunyafurika bari mu nzu irimo intebe, irimo na televiziyo yerekana amashusho, irimo n'imitako.

Ahantu hanze heza hari ubusitani hari abantu babiri b'igitsina gore n'uw'igitsina gabo gusa badahuje uruhu, umwe ni umunyafurika undi ni uwo muri Aziya mu bihugu by'abanyamahanga b'abazungu, ubona ko hari ikintu bari kuganira.

Hano bari kutwereka inyubako harimo n'imodoka biri mu ruzitiro rumwe, bari kutwereka ngo ibi ngibi byagurwa miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'Amanyarwanda biherereye muri Kigali i Kanombe.

Hano naho hari inyubako ku bihumbi byawe igihumbi magana atanu by'amadorari buri kwezi. Waba muri iyi nzu ukazajya uyishyura igihumbi magana atanu ku kwezi cy'amadorari.

Iyi ni inyubako wabona kuri miliyoni mirongo irindwi n'eshanu z'amanyarwanda, ukayigura iri muri kigali Rwanda aho wayibona iherereye, inyubako irimo yubatse neza mu buryo bwa kijyambere.

Hano ni mu ruganiriro icyumba cyo kubamo harimo amafuteyi n'ameza.

Inyubako iri ahantu heza hari ubusitani, hari ibiti bitanga amahumbezi, iri ahantu heza, iragerekeranye, ku buryo wayigura cyangwa se ukayikodesha, urabona ko hakoze neza, hari isu.

Inyubako nini ifite uruzitiro rwiza rukoze neza, iri gukodeshwa ku bihumbi magana atandatu, urabona ko iri ahantu heza ari ku muhanda, buri wese yakishimira kuyituramo.

Abantu bari imbere y'inyubako, inyubako nziza isize amabara meza, ari kuyamamaza urabona ko hari ikintu ari kuvuga, ari kuyivugaho uburyo wayigura ari kuyamamaza ubwiza bwayo, ubona ko abishishikariye.

Hano hari inyubako miliyoni zawe magana atatu mirongo itanu, zagura muri Kigali Rwanda ni inyubako igerekeranye isize amarangi y'umweru n'umukara ubona ko ari nziza igaragara.

Inyubako yo gukodeshwa iherereye Kigali i Remera ifite icyumba kimwe n'ubwogero bumwe, iri ahantu heza, urabona isize neza ikoze neza, ifite urugi rufite ibirahure byiza by'umukara.

Inyubako irimo ibikoresho byo gukodesha harimo ibyumba bitatu, ubwogera umubiri aho ku madolari igihumbi buri kwezi wayikodesha, udahenzwe ubona ko ari heza, hubatse neza, harimo ibikoresho.

Hano hari inzu yo gukodeshwa itarimo ibikoresho, irimo ibyumba bibiri n'icyumba kimwe k'igikoni iherereye Kibagabaga.

Hano bari kutwereka inyubako iri gukodesheshwa, ifite icyumba kimwe, ifite n'ubwogero bumwe, igomba kwishyurwa amafaranga y'amanyarwanda ibihumbi magana abiri ku kwezi, iherereye i Kigali Kacyiru.

Iyi nyubako ni iyo gukodeshwa irakodeshwa iherereye i Kigali i Kanombe harimo ibyumba bine, harimo ubwogero butatu, ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atanu by'amanyarwanda buri kwezi.

Inyubako nziza iri ahantu harinzwe, ni iyo gukodeshwa iherereye Kigali Gikondo irimo ibyumba bibiri ubwogero bumwe, aho ku ibihumbi magana abiri mirongo itanu buri kwezi wayishyura ukayikodesha.

Mu nyubako mo imbere harimo ibikoresho bitandukanye n'ibikoresho byo mu gikoni harimo n'ibindi bikoresho bakoresha mu kazi bigaragara.

Ahantu ushobora guhahira, bitewe n'igikoresho ushaka, barakwakira neza, bakakwereka ibyo bafite, ubundi ugahitamo, ukagura, bacuruza neza, serivisi nziza, ubona ko baba babyiteguye.

Amazu arimo ibikoresho wahaha, haba harimo amavuta, amashakoshe, imyenda, inkweto, ni ibintu byinshi uragenda ugahitamo icyo ushaka, ugahaha, ukishyura, batanga serivisi nziza ku buryo buri wese ahava yishimye.

Ahantu bahahira, haba hari imbuto, ibyo kurya, ibyo kunywa urabona ko haba harimo ababishinzwe ndetse n'abandi baje kubihaha, uraza ukareba igikoresho ushaka cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose ushaka, haba hariho igiciro ukagifata ukagenda ugiye kwishyura.

Ahantu wahahira harimo ibintu byose, harimo inkweto, harimo imyenda, hari abacuruzi banabicuruza, hari abaguzi urabona ko hari abantu benshi baba bitabiriye, iri gurisha n'igura, ngo hari abantu benshi barimo, harimo ibyiza, inkweto nziza n'imyenda myiza.

Isoko irimo ibicuruzwa bitandukanye, hasi hari imbutoibuga zirimo amapera, amatunda, ibinyomoro, n'ibindi byinshi. Hejuru ho bacuruza imyenda, harimo imyenda itandukanye, hano mu mbuto harimo abacuruzi, hari abaguzi ibicuruzwa.

Ahabugenewe guhaha, haba harimo ibikoresho bitandukanye, harimo abagiye guhaha, abari gucuruza mbese harimo urujya n'uruza, buri wese ari kugenda akareba icyo ashaka, ubundi akacyishyura akagitahana.

Iki ngiki akaba ari icyapa kerekana ko aga ngaha ari mu karere ka Bugesera, Akarere ka Bugesera gaherereye mu ntara y'iburasira zuba mu gihugu cy'urwanda, ni ahantu heza harambuye gusa haba ubushyuhe.

Ahantu uhahira haba hari ibintu bitandukanye bitewe n'aho uhereye. Hari ah'imyenda, hari ibyo kurya, hari ibyo kunywa, inkweto, mbese nta kintu utahasanga, batanga serivise zitandukanye.

Aha bari kutwereka kuri RSSB, inyubako yaho inyubako y'amagorofa menshi, ni inyubako ndende nziza y'amabara, isize amabara y'igitaka ndetse n'ubururu, ni inyubako nziza.

Hano hari abantu harimo ab'igitsina gore batanu n'uw'igitsina gabo umwe baricaye bameza nk'abahuje ibiganiro bari kuganira bishimye.

Abantu bari ahantu henshi hateranye bari kuganira ku bijyanye n'umutekano. Ubona ko bitabiriye iyi nama abantu benshi harimo abantu b'ingeri zose abamama, abagore, abagabo, bose bateraniye hamwe.

Aha ni ku kigo nderabuzima, abaturage baje gusa kuvuza, baje mu bikorwa bitandukanye, hari ukuvuza abana, hari ugufata ibindi bafata ku kigo nderabuzima. Urabona ko ari benshi, bategereje guhabwa serivisi bashaka.

Abantu bazanye ibirindiro aho ngaho bari kwigisha abaturage ku buryo bwo kuzigama, nzigamira ku bw'ejo hazaza hanjye urabona ko ari ibintu bifasha abantu kuzigama, bigisha abantu kuzigama ibyiza byabyo.

Hano hari abaturage bicaye kwa muganga bameze nkaho hari serivisi baje kwaka cyangwa baje kuvuza abana bicaye kumurongo hari kugenda hagenda umwe umwe.

Hano hari amakarita y'ubwishingizi ya mituweri, ni ayo muri RSSB ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda.

Aha ni ishami rya banki runaka, abantu baza kwifashisha kubitsa, gufungura amakonti muri banki, kubikuza cyangwa se kuguza, baje gusaba iyo serivisi hakaba harimo umuntu uyitanga.

Muri ejo heza, bagufasha mu mutekano wawe, umutekano w'abaturage, ni nako batanga impanuro, bakabwira abaturage uburyo bitwara, bakabaha ubuzima bwiza.

Mituweli ni ubwishingizi mu kwivuza bigufasha mu gihe warwaye, ukajya kwivuza ku kigo nderabuzima ntibakwake amafaranga menshi, udafitiye ubushobozi. Ifasha buri muturage rero ku buryo yabasha kwivuza igihe cyose.

Iri ni isoko ryo guhahiramo urabona ko harimo abantu bari guhaha, baje guhaha ibintu byo kurya, ibintu byo kunywa, ni ibintu by'ubwoko bwose bibamo, ni rinini harimo ibintu by'imyidagaduro mbese ni ibintu by'ubwoko bwose mu byo bakwifuza. Harimo abantu bari guhaha, igitsina gore n'uw'igitsina.

Mu isoko ryari ku gice kibaho ibiribwa bidatetse, amaji, ibyo kunywa, harimo umuguzi utwaye n'akagare ko gushyiramo ibyo ari bube yahisemo, mu gihe atarabishyira mu kintu cyabugenewe.

Ni isoko, isoko rinini rivamo ibiribwa, ibinyobwa, ubwoko bwose bw'ibintu wakenera, hano hari umuntu wari uvuye guhaha, ari kubarisha ngo yishyure, ahita atwara ibyo yahashye.

Isoko ririmo ibintu byose, ibikoresho byo mu nzu, ibikoresho byo mu nyubako runaka, Ubona ko hari umuntu wari wabyishimiye yaje guhaha, abona ibikoresho yifuzaga.

Simba supamaketi ni inyubako y'isoko, iguriro baguriramo ikintu cyose, habamo ibintu byose by'ubwoko bwose, imbere yayo hari ishusho y'intare y'ikibumbano, hari n'abantu baba bari kuhanyura binjira basohoka, hari n'umuhanda imbere yaho ugendamo ibinyabiziga.

Umuntu uri mu iguriro cyangwa se mu isoko yaje guhaha ibintu byo guteka, hari imboga z'ubwoko bwose, urabona ko yahashye ibintu byo guteka by'imboga.

Hano turi kubona isoko ry'ibicuruzwa, harimo iryo soko rinini n'irya kijyambere harimo ahari inyama, imbuto, imboga mbese n'ibintu byinshi.

Iyi shusho irikwerekana ahantu mu isomero ahantu umuntu agiye gushakamo igitabo, ari gushaka igitabo yakuramo agasoma.

Isoko ribamo ibintu by'ubwoko bwose, habamo ibitekwa, ibidatekwa, ku buryo ikintu cyose washaka wakiguriramo, hano umuntu avuye guhaha aje kwishyura kugira ngo atware ibicuruzwa yari yahashye.

Iguriro riba ririmo ibinyobwa, ibiribwa, ibintu by'ubwoko bwose, hazamo abantu bakagura, ikintu cyose ushaka, haba hariho n'igiciro cyacyo, ku buryo bikorohera, kugenda uhita wishyura, utabanza kubaza ibiciro byacyo.

Isoko rinini irimo abacuruzi abaguzi harimo ibintu by'ubwoko bwose n'ibinyobwa imbuto ibiribwa, ibintu byinshi wakeneramo ukajya kubiguramo ni isoko ryiza, rinini urabona ko ari isoko risirimutse.